Umuntu uri mu murima wegeranye n'ikiyaga, uri gutera imiti imbuto zeze muri uwo murima. Uwo muntu uri kubitera ni umugore.

Abantu basa nk'aho bari mu muganda bari gucukura igice cy'umuhanda, higanjemo abagore n'abagabo basa nk'urubyiruko wagira ngo bari mu muganda.

Ibirayi byinshi biri ahantu hitaruye ahanini hasa nko mu isoko cyangwa ahantu bakusanyiriza ibirayi bigiye gucuruzwa. Hari umwana wagira ngo ari kubicungira umutekano.

Imboga zo mu bwoko bw'amashu zisa nkaho zishaje zumye, zegeranye n'igicupa cy'amazi y'inyange, ariko igicupa kirimo ubusa, hano hasa nko mu iduka.

Indabo bakunze gukoresha nk'umutako mu ngo no mu bigo by'amashuri, ziteye hafi ya pasiparume, inyuma yaho hari izindi ndabo zihateye.

Umugore usa nk'aho ari mumyaka mirongo itatu kuzamura, ufite indobo, uri kuvomerera ibihingwa yahinze mu murima munini witaruye.

Abana bari kuvoma bari kumwe n'umugore ukinyeye igitenge, hagati mu murima w'ibigori, bari kuvomera ku iriba, abana nta kintu bambaye hejuru.

Umuntu ugaragara nkaho ari umukozi wo kuri iki kiraro, ari gukora ku nyamaswa yitwa ingamiya, bari ahantu hiherereye hasa nk'aho ari ku kiraro...

Akanyamaswa gato kazwi mu bwoko bw'inkende kicaye hagati mu muhanda, kuruhande rwaho hasa nkaho hari ishyamba cyangwa se ibiti byinshi.

Imbwa iri mu byatsi, yasohoye ururimi, isa nkaho inaniwe, n'amatwi yayo areba hasi, imbwa iri ku zuba.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'imbwa iryamye mu bwatsi, haruguru yaho hari inzu ifunguye idirishya, iyi mbwa iri kureba ahantu kure.

Akanyamaswa kitwa uruhu kajya gahindura amabara yako bitewe n'aho gahagaze, ubu rero gahagaze ku kintu gisa icyatsi none ibara ryako riri guhinduka karasa nkaho gahagaze.